Amoko y'imiti igiye itandukanye igirambitse ku meza, ndetse yiganjemo iyifashishwa mu gutanga ubutabazi bw'ibanze, ndetse harimo inshinge imiti ndetse n'ibinini. Iyi ngiyi kandi hariho n'udukoresho umuntu ashobora gutwaramo imiti.

Igikapu kirimo udukoresho tujye dutandukanye; harimo imikasi, imiti, bande, inshinge ndetse n'ibindi, gafite ibara ritukura utungutu ni twatundita turimo imiti yo kwifashisha mu gihe habaye ikibazo runaka.

Ahantu hari imbangukiragutabara, aho hari abagabo bambaye imyenda ipfutse ahantu hose, hariho n'umusirikari. Aha ngaha barimo gufasha uyu murwayi bamushyira mu mbangukiragutabara.

Abantu barimo gufata amahugurwa aho hari umugabo ufite igikoresho cy'imfashanyigisho, arimo kugenda akandagira atsindagira ku mutima, ni bwa buryo batanga ubufasha bw'ibanze ku muntu wangiritse cyangwa se umutima utari gutera neza.

Imodoka irimo kugenda mu muhanda, iyi ngiyi ni imbangukiragutabara y'Ibitaro bya Nyagatare, igenda itwara abantu bahuye n'ibibazo bigiye bitandukanye cyane cyane igihe bari kubajyana ku bindi bitaro kugira ngo bahabwe ubundi butabazi cyangwa se ubuvuzi bwisumbuyeho.

Abagabo babiri bambaye imyenda yabugenewe mu kurwanya kwandura indwara barimo guterura umusore uri hasi barashaka kumushira ku gakoresho bita burankari kugira ngo bamutware kwa muganga bamuhe ubutabazi.

Abaganga bambaye imyenda y'akazi barimo kugenda bakora ubushakashatsi bugiye butandukanye, baripfutse ahantu hose ndetse kandi bari kugenda bambara n'uturindantoki.

Umugabo uteruye umwana wagize ikibazo mu kaguru, uyu mwana yavunitse, bamuzingirijeho ibisima ndetse na bande, n'ukumuhereza ubutabazi bw'ibanze, mu gihe uyu mwana yagize ibibazo, barimo kumwirukankana kwa muganga.

Intebe zikunze kuboneka ahantu batanga serivisi, bakira abantu benshi aho abantu bari bicaye bategereje serivisi runaka kugira ngo baze guhabwa serivisi, bigendeye uko bakurikiranye, uwaje mbere akagenda mbere n'uwaje nyuma akagenda nyuma.

Icyumba cyo kwa muganga, kirimo ibikoresho bigiye bitandukanye, harimo n'amatara amurikira muganga, igihe arimo gufasha umurwayi uryamye muri iki cyumba. Aha ngaha kandi bakunze kuba barimo kuhabagira abarwayi.

Abagabo babiri barimo kugenda basunika akantu gafite amapine, bagakuye ahari imbangukiragutabara, ni twa dukoresho twifashishwa mu gihe batwara abarwayi mu bice bigiye bitandukanye, tuba turiho n'agatanda.

imbaga y'abantu benshi bakora mu muryango utabara imbabare bita Croix rouge, bakoraniye hamwe bagiye bari gufata ifoto y'urwibutso, batatu cyangwa se bagera kuri bane bicaye imbere, abandi nabo bagiye bicaye inyuma ab'inyuma na nyuma barahagaze.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibitanda ndetse n'intebe. Aha ngaha haba hari abarwayi, ni mu buryo bw'ahantu heza cyane kandi hajyamo abantu bafite amafaranga cyangwa se ahantu b'abayobozi kuko hano hantu harakubiye cyane.

Imodoka itwara abarwayi mu gihe baba babajyana mu bice bigiye bitandukanye, igihe barwaye indwara yananiranye ku bitaro runaka, ibajyana ahandi kugira ngo bahabwe ubundi butabazi bwisumbuyeho, hanyuma baze gukira.

Umuganga urimo gupima umwana ari kumwe na nyina, arimo kugenda amushira icyumvirizo ku gatuza kugira ngo abashe kumenya uburwayi uyu mwana afite.

Akayira ko kwa muganga aho umuntu anyuramo mu gihe agiye mu bice bigiye bitandukanye, hariho abantu bagera kuri batatu, aha ngaha kandi kubera ko hasakaye neza mu gihe urimo kuhaca haba mu gihe k'izuba cyangwa k'imvura haba hatwikiriye nta kibazo.

Icyumba kirimo inkweto z'umweru, hariho n'amakanzu agiye atandukanye amanitse, hariho n'aho umuntu ashobora gukarabira intoki, hakaba hariho n'ikindi gikoresho gishobora kuba kirimo imiti.

Abagabo babiri bateruye pano cyangwa se igikoresho gikurura imirasire y'izuba kikayibyazamo amashanyarazi, bagiye kumanika ahantu kugira ngo bijye bikurura amashanyarazi mu gihe umuriro usanzwe w'amashanyarazi wagiye bijye bikomeza bicanire aha hantu.

Imodoka ifite puraki ga ra gatatu gatandatu gatandatu i . Iyi ngiyi ni imbangukiragutabara itwara abantu bababaye cyangwa se barembye babajyana ku bindi bitaro runaka kugira ngo bahabwe ubutabazi cyangwa se bavurwe byisumbuyeho.

Imbaga y'abantu benshi barimo kugenda batonze umurongo, imbere yabo hariho abantu bafite igishushanyo kinini kiriho ibitaro bya Nyagatare aho barimo kwibuka ku nshuro ya mirongo itatu, hanyuma ni abantu benshi bagiye ku rwibutso.

Umuforomokazi urimo kugenda upima uyu muntu urwaye. Aryamye ku gatanda ko kwa muganga ndetse bamuziritse ikintu akaboko. Muganga arimo kugenda amushiraho icyumvirizo kugira ngo abashe kumva ikibazo umubiri we ufite.

Abagabo babiri baryamye ku bitanda byo kwa muganga, uyu muganga arimo kugenda abatera serumu barimo kugenda baganira biragaragara ko barembye, ndetse kandi barimo kugenda babahereza ubufasha bugiye butandukanye, gusa bimeze na none nka bwa buryo abantu bakoresha mu gutanga amaraso.

Aho bacururiza imiti ndetse bakakorera n'ubushakashatsi, ahangaha hariho abantu bahagaze ndetse n'abandi binjiye barimo kugenda basaba serivisi zigiye zitandukanye, by'umwihariko izijyanye n'ubuzima.

Imbaga y'abantu benshi yiganjemo abagore bateruye impinja, aha ngaha bari ku kigo nderabuzima baje kwaka serivisi zigiye zitandukanye, bafite abana babo bashobora kuba baje kubakingiza.

Icyuma kimeze nk'agacuma gusa gikozwe mu kirahuri, giteretse no ku kantu, ikingiki gikunze gukoreshwa aho bakorera ubushakashatsi cyangwa se muri laboratoiri, ahangaha kifashishwa na muganga w'inzobere igihe ari gukora ibipimo runaka.

Agakoresho kifashishwa n'abaganga mu gihe barimo gufata isuzuma, aho bita muri laboratwari, ahaha niho inzobere zifatira ibizamini, bashobora kwifashisha kano gakoresho.

Umugabo w'umuzungu ndetse n'abandi b'ibikara bambaye uturindantoki, ndetse undi musore yambaye indorerwamo barimo gupepera bashi ikiganza hejuru. Uyu mugabo arimo kubafata agafoto, aha ngaha baba barimo kwiga ku bushakashatsi, cyane cyane bujyanye no kuvumbura indwara.

Abanyeshuri bakiri batoya aho umwarimu wabo arimo kugenda abahereza igikoma. Buri munyeshuri afite igikombe ke ,arimo kugenda agishyira hejuru ,hanyuma uyu muntu urimo kubagaburira na we akagenda abasukira umwe kuri umwe.

Isafuriya iteretse ahantu irimo ibyo kurya, irapfunduye hahagaze abantu b'abamama bari kugaragara igice cyo hepfo, bambaye ibitenge.

Umukecuru wambaye n'akagofero ari kumwe n'umwana arimo kugenda amusomya ku mata yifashishije inkongo. Ni muri bwa buryo bwo gufasha abana, baba baragize ikibazo cyo kugwingira.

Umwana muto ufashwe na mama we, barimo kugenda bamutera urushinge, ni mu buryo bwo gukingira umwana. Kuko aba agomba guhabwa inkingo zigiye zitandukanye zituma atazongwa kandi agakura neza. Harimo urw'imbasa, urw'agakwega, akaniga n'izindi ndwara zigiye zitandukanye zibasira abana.

Umugore umaze igihe kingana n'ukwezi abyaye, aha ngaha afite abana bagera kuri babiri barimo kongera icyarimwe. Aba ni impanga nk'uko bigaragara.

Imbaga y'abantu benshi bakoraniye hamwe, baricaye bateze amatwi ku biganiro barimo kugenda bagezwaho, hariho abagore babiri barimo kugenda batanga ubutumwa, ni bo bayoboye kino kiganiro, bari kugenda bahugura ababateze amatwi.

Abana benshi bakiri batoya aho bari kugenda bahabwa icyo kunywa n'uyu mugabo arimo kugenda abafasha, kugenda bagira ubuzima bwiza, akenshi ibingibi bikunze kubaho igihe bari gufasha abantu batishoboye cyangwa se abana bafite imirire mibi barimo kugenda bahereza ibyo kurya.

Abaforomo n'abaforomokazi bahagaze hamwe, barimo kuganira. Bari guhabwa amabwiriza y'ukuntu bagomba kwitwara mu kazi mu gihe barimo kuvura, cyane cyane igihe bari gufasha umurwayi, yaba arembye cyangwa se aribwo akigera kwa muganga.

Umugabo uhagaze imbere y'abantu arimo kugenda abagezaho ubutumwa, ni umwe mu bayobozi b'ikigo cy'u Rwanda, gishinzwe ubuzima RBC, arimo kugenda bagezaHO ubutumwa bugiye butandukanye, bujyanye no kuba bakirinda indwara.

Abanyeshuri biganjemo abiga mu mashuri y'inshuke, aho barimo gufatira ifunguro hamwe na mwarimu wabo, barimo kugenda basangira buri umwe afite ipapi ye arimo kuriraho.

Imbaga y'abantu benshi bicaye bamwe barahagaze abari inyuma, Ni abayobozi bagiye batandukanye harimo abasirikari, hakabamo n'abandi bambaye udupira dusa tw'icyatsi.

Abayobozi bagera kuri batatu barimo kugenda bashishikariza abaturage bagiye batandukanye serivisi runaka yiganjemo ababyeyi, abayobozi n'urubyiruko babafasha kugira ngo baharanire kubaka umuryango utekanye kandi uzira amakimbirane buri wese afite amahirwe yo kugira ubuzima bwiza kandi no kubaka iterambere.

Umuforomo n'umuforomokazi bahagaze imbere barimo kugenda batanga ibiganiro no kugenda bahugura abantu bagiye batandukanye, ku ruhande kandi bahagaze umugabo wambaye indorerwamo, agashati k'ubururu ndetse n'ipantaro y'umweru.

Abantu benshi bakoraniye hamwe imbere yaho hariho umuntu urimo kugenda abaganiriza, arimo kugenda abafasha kumenya uko bakwirinda mu buzima bwabo ndetse no gufata neza umubiri, arimo kugenda abaganiriza afite ikarita mu ijosi.

Abanyeshuri benshi bakoraniye ahantu hamwe barimo kugenda baganirizwa bamwe barahagaze bari gushyira igipfunsi hejuru nka kwa kundi abantu bajya babikora igihe bari mu itorero, aha ngaha bakoranyijwe kugira ngo bigishwe.

Abaturage benshi bakoraniye hamwe harimo umugore umwe ufashe indangururamajwi arimo kugenda abagezaho ijambo, ahangaha ni ku kagari aho abaturage benshi baje kwitega inama y'ubuyobozi bitabye kugira ngo baze kugezwaho ijambo ry'umukuru.

Umugabo uhagaze mu iduka ririmo imiti igitandukanye, aba ni babandi bajya bavura amatungo igihe ushaka umuti wogo gutera mu myaka cyangwa se igihe itungo, ryarwaye ushobora kuza hano bakakugira inama ndetse bakaba bashobora kuyikuvurira.

Umudamu uri ahantu bacururiza imiti, uyu nguyu bamwita muganga w'amatungo kuko uraza hano akaguhereza ubujyanama, ku bijyanye n'ubuhinzi n'ubworozi cyangwa se akaguhereza umuti igihewukeneye, akaba ashobora no kukuvurira itungo.

Ikirango gishushanyijeho amatungo yagiye atandukanye, inkoko, ihene, ingurube ndetse n'inka ndetse ahangaha ni aho batangira imiti igitandukanye cyane cyane yiganjemo iy'amatungo ndetse na muganga w'amatungo ahangaha niho ushobora kumusanga.

Aho ushobora kugurira imiti y'amoko agiye atandukanye, aho hano bavurisha n'imiti y'ibimera, ushobora no kugenda bakakugira inama ku bintu bigiye bitandukanye.

Iduka rigezweho ririmo ibikoresho bigiye bitandukanye cyanecyane imiti. Aha ngaha umuntu ashobora kuhagurira umuti mu gihe yarwaye cyangwa se bayimwandikiye kwa muganga.

Abagabo babiri bahagaze ahantu hari icyapa kigaragaza ko hano hantu bacuriza imiti igitandukanye, aho bigaragara ko ari kwa Murekatete ari we uhacururiza.

Umuti witwa Tirosine uriho: inka, ingurube, ihene, ndetse n'intama. Bikagaragara ko ukoreshwa n'uwabihuguriwe mu by'amatungo cyangwa se muganga w'amatungo.

Iduka ririmo amoko y'imiti igitandukanye, ahangahahe ushobora no kusanga umuganga w'amatungo, akugira inama zitandukanye zijyanye n'ubuhinzi ndetse n'ubworozi, harimo amoko agiye atandukanye hakaba n'intebe ndende.

Umugore n'umugabo, bahagaze imbere y'abantu bafite agasashi, akantu kameze nka twa tundi tuba turimo agakingirizo, barimo kugenda bagira inama abantu benshi uburyo bashobora kwirinda kwandura icyorezo cya sida.

Inama yakoranranyemo abantu benshi cyane harimo imbere umuntu urimo kugenda abaganiriza hanyuma n'abandi bagatega amatwi, aho buri wese yicaye imbere ye hariho amazi yo kunywa ku buryo umuntu adashobora kugira inyota igihe ateze amatwi mu nama.

Imbaga y'abantu benshi bakoraniye hamwe. Bamwe barasutamye, abandi barahagaze, ni kwa kundi haba hamaze kuba inama mu gihe bari gutanga ubutumwa bugiye butandukanye, bicaye bari gufata ifoto y'urwibutso.

Imbaga y'abayobozi bagiye batandukanye bakoraniye hamwe, barimo gufata ifoto y'urwibutso imbere y'ibitaro bya Gatunda, aho bamaze gukora inama barimo kugenda baganira.

Amoko y'imiti agiye atandukanye harimo ayiganjemo yakozwe mu byatsi, harimo kandi n'udufuka tugiye dutandukanye, turimo ibimera bishobora kuvamo imiti. Harimo ibitunguru hakabamo n'andi mafu agiye atandukanye.

Umugabo ufite imiti igiye igitandukanye, ashobora kuba ari muganga, arimo kugenda ayikura mu tumvirope ayishyira hasi, yambaye agapfukamunwa ndetse mu mutwe harimo akandi kantu karenzeze umusatsi, yambaye n'indi myenda yabugenewe.

Imiti y'amoko agiye atandukanye, hariho imyishi igiye irimo isahani ndetse n'indi bagiye bayishyira ku meza, ni ukuvuga ngo ibi byose ubiteranyije hamwe bishobora kuvura indwara runaka, bitewe n'uko wagiye ubikoresha.

Amacupa y'imiti agiye atandukanye ari mu tubati. Yiganjemo imiti imwe iri mu mafu, ndetse n'indi umuntu ashobora kwisiga. Imyinshi ni yayindi iba yarakuwe mu bimera bigiye bitandukanye, ishobora kuvura indwara zananiranye.

Inama irimo abantu bagiye batandukanye abagore, abagabo, imbere hariho umuntu urimo kugenda abahugura, arimo kugenda bigisha ku bintu bigiye bitandukanye.

Imbaga y'abantu benshi bakoraniranye barimo kugenda baganirizwa ku bintu bigiye bitandukanye, ahangaha ni mu nama aho babaje guhabwa amahugurwa ku bijyanye n'indwara ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye.

Ivuriro ryitwa girubuzima riteye irangi ry'ubururu, rifite amabati atukura aha ngaha kandi imbere aho bakirira abantu hariho aho umuntu ashobora kubanza gukarabira intoki mu gihe agiye kugana iri vuriro.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibitanda bigiye bitandukanye, ibyinshi birasashe, aha ngaha ni bya bindi bashobora kwimura bagenda babisunika kuko biba bifite amapine hasi.

Abaganga bafite ifunguro rigiye ritandukanye, aho aha ngaha bakoranyije imbaga. Ni muri bwa buryo baba barimo kwigisha abantu cyane cyane abo mu giturage gutegura ifunguro no gufata ibiryo birimo intungamubiri, bakabigaburira abana.

umugore waje kwa muganga arimo kugenda apimwa, barimo kumufata ibizamini, barimo kureba amaraso ye niba nta bwandu burimo bamuteye agashinge ku rutoki.

Ivuriro riri ahantu, ryitwa Gira ubuzima, aho risize irangi ry'ubururu, nta bantu bahari uretse umugabo, ukora mu rwego rw'umutekano w'umusirikari.

ikigo nderabuzima cyubatse neza, gisize irangi ry'ubururu ndetse risa n'amabati yacyo, hariho icyapa hanze ndetse aho abantu binjirira, hariho abantu bagera kuri bane. Aha ngaha niho bakwakirira, bakabanza bakakubaza utubazo dukeya, mbere yuko uvurwa.

Umuti uri ahantu bacururiza imiti y'matungo, aha ngaha kandi haba hari n'umuganga w'amatungo, ushobora kuvurira itungo, igihe yarwaye, ni umuti wa Kalisiyumu, ushobora kwifashisha mu kuvura ibintu byinshi.

Ivuriro gira ubuzima, aho barimo ku kugenda bakira abantu benshi bagiye batandukanye, barimo kuhinjira, abaje kwivuza, abaje kwaka ubujyanama ndetse n'abakeneye serivisi zitandukanye zijyanye n'ubuzima. Ahangaho binjirira imbere hariho umunzani umuntu ashobora kwipimaho kugira ngo amenye ibiro afite.

Abayobozi bagiye batandukanye biganjemo abaforomo, abaganga ndetse harimo n'umuzungu umwe, aho bamaze gukora inama barimo kugenda bafata agafoto k'urwibutso.

Umugore uhetse umwana arimo kugenda akaraba intoki, afite akandi kantu yikoreye ku mutwe, ni agafuka gafite ibara ry'umuhondo ndetse arimo kugenda aseka.

Umuntu waje kwa muganga kugira ngo ahabwe ubutabazi bw'ibanze, muganga arimo kugenda amusuzuma amubaza ari nako agenda yandika, kugira ngo, aze kumenya ikibazo ashobora kuba afite, ahangaha ni hahandi bakirira, aho bagenda bakubaza amakuru agiye atandukanye yerekeranye n'uburwayi bwawe.

Abagabo bagera kuri batatu, n'umugore umwe ukora mu bijyanye n'ubuzima. Arimo kugenda aganiriza aba ngabo bari kumwe. Imbere yabo hariho amacupa agiye atandukanye, amwe bashiramo ibinini.

Imbaga y'abantu benshi biganjemo ababyeyi bafite abana, aha ngaha bari mu bukangurambaga, ari na kwa kundi bajya bazana abana kubakingiza, n'igihe baba barimo kubigisha gutunganya imirire.

Umugore uteruye umwana hanyuma afite ifishi aha ngaha yaje ni kwa muganga, hateraniye n'abandi bantu benshi bategereje guhabwa serivisi runaka, uyu mugore arahagaze abandi bose bari kumwitegereza.

Umuti uboneka muri farumasi cyangwa se aho bacururiza imiti y'amatungo, aho ushobora kuvura intama, ihene, inka ndetse n'ibindi kandi aha ngaha ushobora no kuhakura n'indi miti igiye itandukanye.